Abana bakiri bato bambaye udushati tw'ubururu ndetse n'udusarubeti cyangwa se udukanzu tw'ubururu, bigaragara neza ko ari impuzankano z'ishuri, imbere y'abagore babareba bizihiwehiwe.

Umwana muto wabarira nibura mu myaka irindwi. Ari ku ivomero rusange kuri robine itanga amazi ku baturage. Ateze intoki arimo aranywa kandi inyuma ye hari intebe n'abandi bantu, bagaragara nk'aho ari bakuru kumuruta.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka umunani kugera ku icumi, bigaragara ko yagiye ku ivomero gushaka amazi, yitwaje indobo y'umuhondo, yavuyemo irangi cyangwa ikindi giturukamo, bigaragara ko yamugoye kuyiterura nyuma yo kuvomwa.

Umugore mukuru uteze igitambaro cy'umweru mu mumutwe, wambaye igitenge hasi ufashe ukuboko k'umwana wambaye imyenda yamucikiyeho ndetse nabandi bana ku ruhande, barimo bararwana no kuvoma ku ivomero rusange bashyira amazi mu ibase y'umutuku.

Abantu bateraniye mu cyumba bameze nk'aho bari mu nama, kuko bafite ibyaba bimeze nk'amakayi cyangwa ibitabo. Harimo abagabo, harimo n'abagore ndetse bamwe muri bo ubona ko baba bafite imyaka yigiye hejuru. Bahuriye bose ku mwambaro w'ubururu, bambaye ku gice cyo hejuru.

Umugore wambaye igitenge ndetse uteze igitambaro cy'ubururu mu mutwe, aritegereza umwana uryamye ku buriri aho ari gufashwa n'umugore n'umugabo kugira ngo abashe kugira ubuzima.

Abantu bane, barimo abana batatu n'undi mukuru ugereranyije n'abandi, bazengurutse ivomero rusange rimwe, rifite bya byuma bikurura amazi biyazamura biyavana munsi y'ubutaka.

Umwana w'umuhungu ukiri muto, ufite umusatsi nk'uw'abanyeshuri, wambaye ishati n'ikabutura bijya gusa, uri kuvoma amazi mu kigega cy'umukara akoresheje igikombe cy'umweru.

Abategarugori bo mu kigero gitandukanye cy'imyaka, umwe muri bo wamuha nibura makumyabiri, abandi barakuze byigiye hejuru, bambaye ibitenge kandi bari ku ivomero rusange, aho bategereje kuvomerwa n'amajerekani yabo.

Abantu barimo ab'igitsina gabo n'abigitsina gore bateraniye ku ivomero rusange n'amajerekani menshi atonze umurongo igihe bavoma.

Umutegarugori wambaye ijipo y'iroza n'agapira k'iroza ariko ryerurutse n'umwana ku ruhande wambaye umupira w'umutuku, bari ku ivomero aho uwo mutegarugori afite injerekani avoma.

Umutegarugori wambaye ijipo y'umukara n'umupira w'iroza, uvomera mu njerekani iteretse mu mabase abiri imbere y'inzu y'amabati, inyuma ye hakaba imigozi yanitseho imyenda.

Umwana ukiri muto ufite umusatsi muke nk'uw'abanyeshuri, ahindukiye areba inyuma yitegereza, mu gihe akaraba kuri robine rusange umwenda we w'iroza.

Inzu mberabyombi irimo ingeri zitandukanye z'abantu, ari ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bose bicaye ku meza ateguyeho ibitambaro by'umweru byongeweho n'akandi k'ubururu, bakurikiye uwo bazengurutse uri hagati yabo afite icyo ababwira.

Ivomero rusange ryahuriweho n'abantu b'ingeri zose, ariko benshi muri bo akaba ari abana, barafungurirwa n'uwambaye umupira w'umweru, ufite imyaka yigiye hejuru, naho bo bafite indobo n'amajerekani yo gutwaramo amazi.

Umugabo wambaye itaburiya imeze nk'iy'abaganga, ndetse na tumwe turinda intoki tw'umweru, ufite urushinge ariho akingira umwana wambaye ishati y'ubururu.

Abantu biganjemo ab'igitsina gore, ariko batabuzemo na bake b'igitsina gabo, benshi muri bo, bambaye imipira ijya gusa na rya bara ry'ironji, abandi kandi bayirengejeho n'utundi twendadusa n'icyatsi.

Abantu b'ingeri zitandukanye bateraniye ahantu hamwe, bamwe barimo ni abagabo abandi ni abagore bose icyo bahuriyeho ni umwambaro w'umweru uriho ikirangantego cy'ubururu.

Utuzu tubiri cyangwa se dutatu turi ahantu hatararangiza kubakwa bamwe bakunda kwita ku ishansiye, twose dufite inzugi z'ubururu kamwe gafite n'idirishya ry'ubururu.

Abanyeshuri bambaye imipira y'ubururu, amajipo y'ubururu bwerurutse ku bakobwa, n'amakabutura y'ubururu busa nka bumwe bwa gipolisi ku bahungu, bari kunywera amazi iruhande rw'ikigega bayavomyemo.

Umuhanzi mu ndirimbo zihimbaza zikanaramya imana Isiraheri Mbonyi wambaye umupira w'ibara rya oranje inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara ari kumwe n'umwana nawe wambaye umupira w'iryo bara n'pantaro y'ubururu.

Abagabo b'ingeri zitandukanye, barimo abagabo n'abagore birabura ndetse n'umwe ufite uruhu rwera, bicaye ku ntebe z'icyatsi zizengurutse imeza y'umweru.

Umwana muto w'imyaka nk'irindwi umunani cyangwa se munsiho gato, arishimye afite uko ari gukubaganya indobo y'umweru ifungishije umupfundikizo w'ubururu, akaba areba muri kamera aseka.

Umwana w'umunyafurika umwenyura akagaragaza amenyo, mu gihe akarabira ku ivomero rusange riteretseho injerekani zazanywe n'abandi baje kuvoma. Harimo injerekani y'ubururu n'iy'umuhondo.

Minisitiri dogiteri Sabiye Nsanzimana w'ubuzima hamwe n'abo bakorana ku meza barebana n'abo baganiraga mu nama, bazengurutse ameza ateretseho amazi.

Abana batandatu b'abirabura bambaye imyenda igizwe n'ishati n'ikabutura cyangwa se ishati n'ijipo ku bakobwa y'amabarasa, bari kuivomera bavoma indobo z'umuhondo.

Abaturage bateraniye hamwe ndetse bamwe muri bo bambaye bote zisa n'icyatsi, abandi umukara, abandi bambaye bisanzwe nk'aho ari umunsi usanzwe, aho bamwe mu bakecuru bambaye ibitenge n'imipira yo kwifubika.

Ikirangantego kirimo inyuguti ya m na h na u na b. Inyuguti ya h ikaba itandukanye n'izindi nyuguti zindi uko ari eshatu, kuko yo yanditse mu nyuguti nkuru. Hejuru y'izo nyuguti hari utundi tumenyetso natwo turi mu ibara ry'icyatsi.

Umubyeyi uteze igitenge mu mutwe, amaherena ashashagirana ku matwi. Amaso arareba nk'intare y'ingore, yenda gufata ifunguro ryayo rya saa sita. Urebye nabi yanagukubita.

Abantu b'ingeri zitandukanye ari abana, abakecuru, inkumi ndetse n'abasore, bambaye bitandukanye ariko bose mu ntoki bafite Idarapa rito ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, n'izuba mu ibara ry'ubururu.

Ikirangantego cy'ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga ubuforomo mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kigaragaramo umutwe urimo ubwonko buri mu ibara ry'umukara, kikagira amagambo ahinnye mu cyongereza RMHNSA.

Umukobwa cyangwa se umwari cyangwa se umutegarugori, wicaye afashe ku rutugu umugabo uryamye mu biganza bye nk'uwumiwe cyangwa se wishwe n'agahinda.

Inama yabereye mu nzu mbera byombi, isize irangi ry'umweru bigaragara ko yitabiriwe n'abantu b'ingeri zose, ari ababyeyi, abasore ndetse n'abasaza, bakurikiye kandi bateze amatwi bakumva ibyo babwirwa n'uwabatumije.

Uruziga rurimo intebe zizengurutse zisa, iruhande rwa buri ntebe hateretse amazi, intebe zimwe zicawemo izindi ntabwo zicawemo, hagati muri urwo ruziga harimo abakecuru n'abandi barimo abagabo.

Umuganga mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, wirabura kandi wambaye agapfukamunwa ndetse akoresha utundi dukoresho twabugenewe muri uwo mwuga, asuzuma umusaza bigaragara ko yaje ahangayikishijwe n'ikibazo cy'amenyo.

Umwana w'inzobe ukiri muto ufite agasatsi gafunzemo neza amapfundo abiri, uryamye ku meza basuzumiraho igihe asuzumwa mu menyo na muganga.

Umusore cyangwa se umugabo, ufite ubwanwa n'agakoresho k'icyatsi, afashe mu kiganza cy'iburyo, igihe ahaganyura se, cyangwa akorogoshora amenyo, ari kuyasukura, avanamo ibibyigana, hagati muri yo.

Umwana w'umwirabura ufite uruhu bamwe bita urw'inzobe, arakorwa mu kanwa n'intoki zambaye tumwe turinda intoki tw'ubururu, kugira ngo bamusuzume kandi barebemo neza.

Icyumba kirimo intebe yabugenewe yo gusuzumiraho umurwayi cyane cyane bamwe b'amenyo. Intebe ya muganga umusuzuma, mudasobwa areberaho kandi agashyiriramo abantu muri sisiteme, ndetse n'izindi mashini zabugenewe muri uwo mwuga.

Umunwa wabumbuwe werekana amenyo, ufashwe n'urutoki rurinzwe na twa tundi turinda intoki tw'umweru mu gihe bakura iryinyo hagati mu yandi.

Umugabo wirabura mukuru kandi ariko adakuze cyane wabarira mu myaka mirongo itatu, mirongo ine, arireba mu kirori akoresheje akagozi agahanagura amenyo kugirango ase neza.

Umugabo ukora mu bijyanye n'ubuzima wambaye itaburiya y'umweru, inyuma y'imyenda ye isanzwe, wicaye ku ntebe ifite igitambaro cy'icyatsi, iruhande rw'ameza cyangwa se uburiri basuzumiraho na bwo bufite ibara ry'icyatsi.

Intoki zambaye tumwe turinze intoki dufite ibara ry'iroza, dufite mu ntoki akuma kabugenewe ko gukoza mu menyo bayasuzuma cyangwa se banakuramo imyanda yahomyemo.

Umwana ukiri muto wogoshe ufite uturongogo tubiri mumutwe n,Umugabo ukuze usutse ufite umusatsi wumukara mugihe bihanganyura mumenyo bakoresheje utugozi.

Umugabo ubyibushye wambaye ya makanzu bambara babyutse n'ipantaro y'umutuku ndetse n'inkweto z'umukara, utabasha kugenda atifashishije bya bindi bigezweho bifite amaguru ane, arafashwa n'umuzungu wambaye umweru hejuru, umukara hasi kugira ngo abashe kugenda.

Umukecuru ukuze koko wambaye agatenge k'umuhondo karimo utubara tw'icyatsi uteze igitambaro mu mutwe, iruhande rw'inkono atekeye ku nkwi yicaye hasi.

Umusaza ufite umusatsi muke ku mutwe, akagira ubwanwa bw'umweru, wambaye ishati y'amaboko magufi, arafashwa n'umuzungu ufite umusatsi w'umukara, wambaye imyenda y'akazi, akamufasha kugendera kuri bya bindi, bifite amaguru ane.

Umusaza ukuze wambaye akantu ku kuboko, umupira w'ubururu akagira umusatsi w'umweru, iruhande rw'umukecuru ufite umusatsi w'umweru, wambaye umupira w'umutuku n'impeta ku rutoki nka wa musaza.

Umukecuru ufite imyaka nibura mirongo irindwi kuzamura, arishimye araseka, ku musatsi we w'umweru rwose ntabwo ahangayitse, inyuma ye hari usa nk'umuforomo kuko yambaye impuzankano zijya gusa na zimwe za ba bandi bafasha abarwayi cyangwa se abakuze bari mu nzu z'abakuze.

Umusaza ufite umusatsi w'umweru waha imyaka nibura mirongo irindwi kuzamura, wanamanuka ukagabanyaho mikeya, aritabwaho n'uwambaye umwambaro w'umutuku, uriho amufasha guterura tumwe tuba turemereye.

Ababyeyi bafite imyaka yegeye hejuru, umwe yambaye ibara ry'ubururu bwerurutse, undi yambaye move, inyuma yabo hari n'abandi na bo baseka mu gihe basarura icyayi.

Abagabo babiri bambaye impuzankano z'umweru n'umukara za siporo, barishimye baramwenyura, igihe barimo baragenda, n'amazi mu ntoki mu rwego rwo kwifashisha igihe bagize inyota.

Umutegarugori w'umwirabura bigaragara ko ari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'itanu kugera kuri mirongo itandatu n'itanu nkuko bigaragazwa n'umusatsi w'umweru afite ku mutwe. Arishimye kandi aramwenyura abitewe nuko akibasha gukora ka siporo mu myaka yigiye hejuru.

Umugore ufite agasatsi gake k'umweru, uruhu rw'inzobe ufite imyaka yigiye hejuru, arasekera umugore w'umuzungu umukora ku rutugu no munsi y'ukuboko.

Umukecuru ufite umusatsi w'umweru wambaye agashati k'icyatsi, n'umupira w'umweru inyuma, afite isahani mu kiganza cy'ibumoso iriho imboga n'utubuto ndetse agafatira ikanya mu kindi kiganza.

Abantu babiri bose basheshe akanguhe, umwe ni umugore undi ni umugabo; umugore yambaye umwambaro w'ubururu, umugabo yambaye umupira w'amaguru maremare, ufite ibara rijya gusa n'ikigina, ririmo utuntu tugiye dutandukanye.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo uri gusomera usa nk'usheshe akanguhe, ufite umusatsi w'umweru, wambaye amarinete, imbere yabo kumeza hariho ikirahure cya'mazi n'ikayi, ndetse n'utunnini.

Abantu batandukanye kandi badasa rwose, kuko bambaye imyenda idafite amabara asa, bamwe bambaye ibisarubeti, abandi bambaye udupira, abandi ndetse banateze ibitambaro mu mutwe, bicaye mu ruziga bariho baraganira.

Umubyeyi wambaye impuzankano zisa na zimwe za ba bandi bakora mu nzu z'abakuze, arasuka umutobe w'umuhondo mu kirahure imbere y'umusaza uriho ararya areba uko asuka.

Umuhanzi Mico ari kumwe n'uwahoze ari minisitire w'ubuzima dogiteri Diane Gashumba, bafite icyapa cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira.

Igishushanyo kinini cyanditseho amagambo agamije gukangurira mu bijyanye n'ubuzima, kirimo amashusho agera kuri atandatu cyangwa se arindwi, agaragaza uburyo bwakifashishwa mu kurwanya igwingira.

Abagore batatu bose b'abirabura bambaye udupfukamunwa, umwe muri bo yambaye ubururu nka bumwe bw'abaforomo, undi yambaye ijile y'umukara inyuma y'umwambaro w'umuhondo, undi yambaye icyatsi.

Ukuboko kwirabura gufite uburwayi bufite ibimenyetso birimo uduheri tubyimbye nk'udushobora kuba turimo amashyira, ndetse n'ikindi kinini kimeze nk'inkovu y'ubushye.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abasa nkaho ahanini ari abadamu, basutse kandi bambaye imipira y'umweru, bicaye ku ntebe z'umweru, bakurikiye ufite ibyo abasobanurira, wambaye umweru hasi n'umukara hejuru.

Abantu bakora mu bijyanye n'ubuzima bambaye umubiri wose ibibakingira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kiri mu bibakikije, bakambara n'udupfukamunwa ndetse n'amadarubindi yabugenewe, inyuma yabo hakaba uwambaye ibidasa n'ibyabo.

Umukecuru ukuze kandi ukibasha guseka wamubarira nibura imyaka mirongo irindwi n'itanu kugera kuri mirongo inani, ukaba wanazamura cyangwa ukamanuraho gato, afite igipfu ku jisho ariko ibyo ntibimubuza kwerekana amenyo.

Inzu y'ibitaro ya etaje igeretse inshuro ebyiri ikagira izina rya Sangwa, isize irangi ry'umuhondo rijya gusa umweru ikagira parikingi ihagije.

Icyumba cy'ibitaro kirimo uburiri bumeze nk'intebe bufite imisego y'ubururu, ameza, utuntu two ku ruhande dusa n'umuhondo wavuga ko bajugunyamo imyanda ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze.

Inzu igeretse inshuro imwe, ifite amadirishya hejuru hariho udusa n'ibara ry'ubururu, inzu ahanini irasa n'umweru, hasi ifite parikingi ifatika.

Imbere y'ikigo cya gikirisitu cy'abana b'abanyarwanda. Hari amabendera abiri rimwe rikaba ari iry'icyo kigo, na ho irindi rikaba ari iry'igihugu cy'u Rwanda. Ayo mabendera yombi ukiyabona, ubona ko adasa kuko rimwe ari umweru, rikaba ryanditsemo amagambo aranga icyo kigo, na ho irindi rikaba ari iry'igihugu cy'u Rwanda, rikaba rifite amabara arimo ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abagore batatu birabura bambaye impuzankano z'ubururu, bambaye ndetse n'utuntu two mu mutwe turinda umusatsi imyanda iyo ari yo yose yaturuka mu kazi bakora ka buri munsi.

Ibitaro byitiriwe umwami Fayisari, imbere yabyo hari amadarapo agera kuri atatu, rimwe ry'ibara ry'umweru, irindi rifite amabara atatu aranga igihugu cy'u Rwanda ari yo; ubururu, umuhondo, icyatsi. Irindi rikaba umweru urimo ubururu.

Uburiri bwegereye hejuru basuzumiraho mu buryo bwo gufasha muganga kwegerana n'uwo asuzuma, ku ruhande hari tumwe mu tundi dukoresho harimo nk'akabati ndetse n'udufasha mu kujyana no kugarura ibikoresho.

Ibitaro by'umusaraba wo mu majyepfo ugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda, bifite inyubako igeretse inshuro nibura eshatu, isize irangi ry'umuhondo ikagira ikigega hejuru ndetse n'iminara na parikingi.

Abagore bambaye impuzankan z'umweru n'udupfukamunwa, bicaye ku ntebe z'umweru abandi bahagaze barimo bafasha abameze nk'abarwayi harimo umwe muri bo wicaye kuri za ntebe zifasha abafite ubumuga bw'amaguru cyangwa se intege nke.

Icyumba cyagutse ku buryo gishobora kwakira abantu barenze babiri. Ariko na none batarenze batatu. Harimo ibitanda bitatu. Byose bifite matela zifashweho amashuka y'icyatsi. Ibitanda byo ni umweru. Na ho amarido abitandukanya afite ibara ry'ubururu bweruye.

Icyumba cyagutse kirimo amarido y'umuhondo atandukanya ibitanda by'abarwayi barara kwa muganga. Iruhande rw'igitanda kimwe hari intebe yicarwaho n'uwaje kurwaza.

Icyumba kirimo uburiri bushasheho ishuka y'umweru, mudasobwa zigera kuri eshatu ndetse na kimwe gisa na bya bindi bazimisha umuriro ariko gifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi, bigaragara ko gishobora kuba kibitse umwuka wo guhumeka. Harimo n'intebe zifashishwa muri gahunda zikorerwa muri icyo cyumba.

Umugore usutse ikimwe kimeze nk'igishinze ku mutwe, afite ikayi arimo aravugana n'umeze nk'umurwayi waje kwa muganga, arandika ibyo amubwiye. Naho inyuma ye hahagaze usa nk'inzobe cyangwa se umuzungu wambaye impuzankano nk'iz'abaforomo.

Inzu ifite inkingi enye zifite ibara ryijimye, naho hejuru hakaba hasa n'iroza, hejuru y'iryo roza hakaba hari umweru, munsi hari intebe zitukura.

Icyumba cyagutse, ariko na none bidakabije. Kirimo ibikoresho bigezweho kandi bya gisirimu, wakenera mu cyumba. Ari agatanda kajya kumera nka twatundi tw'abana, utubati dufite amabara atandukanye, bimwe mu bikoresho bitanga ubushyuhe, ndetse n'ibindi bikoresho byo mu cyumba.

Ubwinjiriro bw'inzu y'ababyeyi benshi bazi nko muri materinite, hateguye ameza ariho igitambaro cy'iroza ndetse n'intebe zimwe zicaweho izindi ziticaweho, bitewe n'uko hari uyicayeho ahagaze nk'ufite icyo ari kubwira abamuri imbere.

Umutegarugori wirabura ufite umusatsi muke azamuye amaboko rwose mu kirere, igihe akora siporo yambaye agapira k'umweru hejuru ndetse n'ipantaro imufashe ku mubiri y'ubururu.

Umutegarugori ufite uruhu rwera, umusatsi muremure rwose, wambaye imyenda yabugenewe ya siporo ngororamubiri, yirambura, yambaye ibirenge ku musambi wabugenewe muri izo siporo.

Umugabo wirabura wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru, upfukamye agorora umubiri. Yambaye twa tundi bashyira mu matwi bakumva imiziki mu gihe bakora siporo.

Umwana w'umwirabura, wegetse umutwe mu kiganza cy'uwamusuzumaga w'umugore, wambaye ijiri y'ubururu, n'agapira ka move, arifashisha igikoresho cyabugenewe, kugira ngo asuzume uwo mwana.

Umuntu w'igitsina gabo uri gukora siporo w'umwirabura, wambaye impuzankano zirimo umupira w'amaboko maremare, ikabutura y'umukara, amasogisi y'umweru n'inkweto zijya gusa n'umupira.

Ibiganza bibiri by'umugabo utamenya ngo afite imyaka ingahe bikora ku itako n'ukuguru by'umuntu koko ufite ibiro byigiye hejuru, mu gihe basuzuma ikibazo yagize.

Ikirangantego cy'ishyirahamwe cy'abakina umukino wa Judo mu gihugu cy'u Rwanda, kirimo abagabo babiri bari kwerekana uko uwo mukino ugenda, aho uwambaye impuzankano z'ubururu yafashe uwambaye impuzano z'umweru akaba yenda kumugusha.

Umubikira wambaye amadarubindi ndetse n'umuzungu w'umugore, bahurije ibiganza ku mwana umwenyura kandi asekera uwamufotoraga bitewe n'uko yari amwishimiye.

Bamwe mu bashinzwe ubutabazi bw'ibanze bambaye imyenda y'ibara ry'umutuku ndetse n'ibibarinda ku mutwe, batwaye uwagize ikibazo wambaye imyenda y'umuhondo bakaba bamujyanye aho bamufashiriza kugira ngo abashe kubaho.

Ikirahure kitari kinini cyane, gisukwamo amazi ava mu icupa ry'ubururu rifite kamwe ko hejuru kaba gafashe umufuniko k'umutuku ku meza y'umweru.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagabo n'abagore, bambaye bigezweho umwenda w'akazi ko mu biro, bamwe bambaye amakoti abandi bambaye amakanzu, bambaye udupfukamunwa ndetse n'uturinda umusatsi.

Isahani iriho imbuto zirimo: Imineke, inkeri ndetse n'izindi, iruhande rw'isahani iriho: amagi, inyama ndetse n'ibindi, iruhande rw'ibyuma baterura byo mu kuboko kumwe kumwe, kimwe bakanda bakomeza imitsi ndetse inyuma yabyo hakaba hari kimwe kirimo imboga.

Umusore ufite uruhu rwirabura wubatse umubiri wabize icyuya ubwo yakoraga siporo, unywera amazi mu icupa ribonerana rifite umupfundikizo w'ubururu bwerurutse.

Umusore wubatse umubiri, wambaye agasume bambara bari muri siporo, bihanagura icyuya ndetse n'umupira wijimye, aranywa amazi nk'unaniwe mu icupa ry'ubururu.

Igikarito cy'ubururu, umweru n'icyatsi, kirimo udupfuko bakoresha mu gihe bari muri siporo, kigaragaraho igishushanyo cy'umuntu wubatse umubiri.

Umusore n'umukobwa bavuye muri siporo, mu gihe bategereje ahabugenewe imodoka zitwara abagenzi, bitwaje ibikapu byabo birimo imyenda ndetse umwe muri bo yicaye ku ntebe undi ahagaze iruhande rwayo yigorora.

Ukuguru n'ikirengenge by'inzobe, bishushanyijeho agashushanyo k'ubururu n'ak'umutuku, byerekana aho inyama zihurira muri ibyo bice byombi by'umubiri.

Barimo barakora siporo. Ari abagore, ari abakobwa, ari abagabo, ari abasore, bose mu mpuzankano za siporo ariko zidahuje amabara bahuje urunana bagorora umubiri.

Umuntu w'igitsina gore usutse w'umwirabura wambaye agapfukamunwa na tumwe turinda intoki tw'ubururu, akambara mu ijosi kimwe bakoresha basuzuma abantu mu gatuza no ku bindi bice, areba kuri mudasobwa ye.

Imbuto zirimo pome, inkeri ndetse n'ibintu bimeze nk'ubunyobwa, amaronji, agafi, inyuma yabyo hateretse ikirahure kirimo umutobe w'umuhondo, ikirahure cy'amazi ndetse n'icyuma cyo guterura.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati y'umukara irimo imirongo y'umweru wijimye, utsikamiye ku meza bamurikiraho amacupa arimo ibintu, bimurikwa n'umugore uteze igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Amacupa ya palasitike apfundikishije udupfundikizo tw'ubururu bwijimye n'ubundi bwerurutse, arimo ibisa nk'ibara rya shokora cyangwa ikigina bimeze nk'ubuki, naho andi akaba arimo ibisa n'amavuta.

Ikirahure kirimo amazi giteretsemo uduti dutatu aho tumwe muri two dusa na ho ikindi kimwe kikaba gifite utubabi, ku ruhande hari ivaze na yo irimo ikimera.

Ishyamba rinini cyane kandi ryagutse rivanze n'igihuru cy'ibyatsi n'ibimera byigikuza ndetse n'ibiti birebire cyane, ubona ko byaba bimaze imyaka nibura cumi n'itanu.

Uduti tubiri duhagaze, aho kamwe gasumba akandi ariko twombi tukaba dufite amababi y'icyatsi, kamwe gafite utubabi nibura cumi na kamwe, akandi gafite utubabi icyenda.

Amacupa y'imiti y'uruhu igiye itandukanye, amenshi muri yo ni umweru, ariko ntihaburamo ay'umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'andi mabara atandukanye.

Agacupa karimo bimwe bisiga ku ruhu bitewe n'icyo ukeneye gasa umweru gafite amabara y'umuhondo, igisiga cy'umweru hejuru n'amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, umukara n'umweru.

Icupa ry'umuhondo ripfundikishije umufuniko utukura, ryanditseho mu magambo y'icyongereza ari mu ibara na ryo ritukura, rikagira igisiga hejuru y'ayo magambo.

Amacupa atatu y'uruganda rumwe afite amabara atandukanye, rimwe risa n'umuhondo, andi abiri ni umweru ariko na yo yanditsweho mu mabara atandukanye. Yose ahuriye ku kamenyetso ko hejuru kameze nk'ak'igisiga ndetse n'irindi jambo ry'icyongereza, naho umunsi ukabona aho atandukaniye mu mazina.